Ishyirahamwe ry'abantu ryibumbiye muri koperative rikorera hamwe, nibyiza gukorera hamwe kuko bifasha umuntu wese uri muri koperative kutavunika cyane ndetse ngo agire intege nke, aho ananiwe abandi baramuzamura.

Ubuhinzi bw'imbuto, nk'ibinyomoro, amapera, amaronji, inkeri, inyanya, ibirayi, pome, ni byiza ko tubitera umuti wabigenewe, kugirango bitaza kwangirika.

Abahinzi bagomba kubika neza imiti batera mu bihingwa byabo, kugira ngo hatagira umwana ubyegera bikaba bya mwangiza.

Abahinzi bakwiye guhinga ibihingwa byabo, bakoresheje ifumbire yabugenewe, ndetse ifumbire yemewe na Leta.

Hari ibikoresho usanga bidufasha kubika neza ibintu byakwangirika, nk'amafi, inyama z'inka, inyama z'inkoko, ndetse n'ibindi.

Ni byiza kwita ku byo kurya dufata, kuko bigomba kuba bifite intungamubiri zihagije. Tugomba gushyiramo amafi, inyama z'inka ndetse n'ibindi.

Kwihangira umurimo ni uburyo bwinshi ushobora kwihangira umurimo, ujya mu burobyi cyane ko amafi akungahaye ku ntungamubiri usanga ku isoko akenerwa cyane n'abantu benshi.

Icyokezo ushobora kugikoresha wotsa， ibintu byinshi bitandukanye. urugero: Amafi，inkoko ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko ibyo kurya turya hagomba kuba hariho amafunguro nka salade, ndetse n'indimu yo koroshya, ndetse ni byiza kuganishinga amafunguro yawe kuko bigaragara neza ndetse bigatera na apeti.

Ni ngombwa ko abakora ubucuruzi bw' amafi bagomba kuyarinda, ndetse bakayashyira ahabugenewe no mu bikoresho byabugenewe, kugira ngo atangirika.

Ubworozi bw'amafi ndetse n'isambaza bushobora gukorerwa ahantu hatandukanye nko mu byuzi, mu bishanga ndetse n'ahandi.

Ubucuruzi bufite kutugeza ku iterambere, cyane cyane iyo ucuruje ibintu byo mu mazi, harimo nko gucuruza isambaza, amafi, indagara ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko amafunguro dukonsoma agomba kuba arimo intungamubiri zhagije, ndetse zikungahaye ku byo imibiri yacu ikeneye, nk'amafi ndetse n'ibindi.

Umubiri wacu ukeneye intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye, harimo amafi kuko ni ingirakamaro ku mubiri wacu, ndetse n'indimu na yo yongera byinshi mu mubiri wacu.

Ubuzima bwacu bwa buri munsi, usanga dukenera amafunguro agiye atandukanye, ndetse yujuje intungamubiri, harimo nk'amafi, inyama, imboga, ibishyimbo ndetse n'ibindi.

Abahinzi bagomba kwita ku bihingwa byabo, kugira ngo bazabone umusaruro uhagije, babashe kwiteza imbere ndetse basagurire n'amako.

Abahinzi bagomba kwibuka ko aho bahinga hagomba kurara, kugira ngo ubutaka bwisubize buzavemo umusaruro uhagije, kandi utubutse basagurire n'amasoko.

Ni byiza ko umuhinzi igihe yahinze imyaka hafi y'urugo agomba kuyizitira, kugira ngo abana batangiza iyo myaka.

Ni byiza ko abahinzi igihe bahinze hafi y'urugo bagomba kuzitirira imyaka yabo, kugira ngo abana batazanyangiza nk'isombe, insina, urutoke, ndetse n'ibindi.

Abahinzi bakwiye kwita ku buhinzi bwabo, bakita ku bihingwa byabo, kugira ngo bibateze imbere, ndetse bitume bagera ku nzozi zabo, kugira ngo babone umusaruro ushimishije ndetse uhagije, bagasagurira n'amasoko. Ni byiza ko bita ku bihingwa byabo.

Ni byiza ko umuhinzi wese agomba kwita ku gihingwa cye akakirinda kugitera aho cyakwangirika, nko kugitera hafi y'inzu n'ahandi hose gishobora kugerwaho na buri muntu wakigirira nabi.

Abahinzi bagomba kwita ku bihingwa byabo kuva bigiterwa kugera bibonye ibyo gusarura, kugira ngo umusaruro wiyongere ndetse basagurire n'amasoko.

Aborozi bagomba kwita ku byo bagaburira amatungo yabo, bakita ku buhinzi bw'ubwatsi kuko bituma babona umusaruro uhagije.

Ni byiza ko abahinzi igihe bamaze gusarura bagomba kureka ubutaka bakuyemo imyaka bukisubiza, kugira ngo ubutaha nibongera guhinga bazakuremo umusaruro utubutse nka mbere.

Ni byiza ko dukorera ubuhinzi bwacu kugira ngo buzaduhe umusaruro uhagije, ndetse dusagurire n'amasoko, twita ku rutoki, amateke ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko amashuri agira ahantu abanyeshuri bakorera imirimo yabo y'amaboko, ndetse bakahakorera imirimo y'imyidagaduro, nko gukina umupira, Voreboro, ikibuga ni ingenzi ku bigo by'amashuri.

Ni byiza ko abahinzi iyo bamaze gusarura, badahita bahinga aho basaruye imyaka, kugira ngo ubutaka bwisubize bazabuhingemo imyaka yere cyane.

Abahinzi bagomba kwita ku bihingwa byabo kugira ngo bazabone umusaruro uhagije bakabikorera cyane cyane nk'amashyaza iyo adakorewe biragoye ko yatanga umusaruro wifuza.

Guhinga ibihingwa bitandukanye ni byiza cyane, bikaba akarusho iyo wahinze imboga rwatsi, ugahinga amashaza, ugahinga ndetse n'ibindi bikoreshwa nk'umuti nk'imiravumba. Bifasha umuntu wese ubikeneye.

Uruhurirane rw'abahinzi aho bahuye biga ku mushingawo guhinga amashu, ndetse buri wese agahabwa ijambo agatanga igitekerezo cye.

Mu gihe abahinzi bari gusarura imyaka yabo basagurira amasoko, ni ngombwa ko baba bafite ibinyabiziga, bibatwaza imodoka n'ibitogotogo.

Abahinzi bahinga ibihingwa by'imboga, bagomba kwita ku buhinzi bwabo kugira ngo ibyo bahinze bitazibasirwa n'udusimba, bakabyitaho by'umwihariko amashu, imbogarwatsi, n'ibindi.

Ubuhinzi ni ingirakamaro cyane， kuri buri muhinzi wese. Niyo mpamvu iyo ubonye imyaka yawe yatangiye kwangirika，ushobora kubaza undi muhinzi，akakubwira icyo wakora， kugira ngo imyaka yawe yongere imere neza.

Amashyirahamwe y'ubuhinzi yibumbiye hamwe mu gukorera hamwe kugira ngo abashe gutezanya imbere. Ni byiza ko umuturage wese yagakwiye kwibumbira mu mashyirahamwe kugira ngo abashe kugera ku musaruro yifuza.

Abahinzi bagomba kwita ku buhinzi bwabo, kugeza igihe basaruriye kuko ibyo basaruye na byo biba bigomba kwitabwaho, kugira ngo bigere ku isoko bikiri bizima kandi ari byiza, bityo bitume babona ibyo basubiza aho babikuye.

Umuhinzi wese yagakwiye gutekereza guhinga igihingwa k'imbuto, harimo avoka, kuko ikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, ndetse havamo ibintu byinshi bitandukanye.

Ubuhinzi ni byiza ko bwitabwaho, umuhinzi wese akamenya kwita ku gihingwa cye, kugira ngo azabone umusaruro uhagije, ibigori, ibirayi, ndetse n'ibindi.

Abahinzi biba byiza iyo bahinze mu butaka bwiza, ndetse imyaka yabo bakayitera neza, ku gipimo cyagenwe, bakirinda kuyicucika, bituma umusaruro wiyongera， ndetse n'ibihingwa bikabyibuha.

Ni byiza ko abahinzi bita ku bihingwa byabo, kugira ngo bazasarure umusaruro uhagije, cyane cyane nko kwita ku cyayi, ikawa ndetse n'ibindi bituma tugera ku nzozi zacu.

Kwita ku matungo ni igikorwa gikorwa na buri muntu wese ukunda itungo, bikaba akarusho iyo umworozi ari we uryitayeho, agatuma itungo riba ahantu heza, bityo na ryo rikumva rimeze neza rigashisha.

Abahinzi b'ibirayi bagomba kubaka ibigega byo guhunikamo ibirayi byabo kugira ngo bitazangirika, kuko ibirayi bikunda kubora iyo bitabitswe neza, rero ni byiza ko buri muhinzi agira igitanda cye cyo kwanikaho ibirayi bye bikamera neza.

Aho abahinzi buhira ibirayi byabo bimeze neza, bishimiye ko bisa neza. Twese tubigira intego guhinga neza twita ku myaka twateye.

Abahinzi b'imbuto bagomba kwita ku bihingwa byabo kugira ngo bitangirika. Nko kwita ku matunda, avoka ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko umuhinzi agomba kwita ku musaruro we ndetse akagira imbuto y'indobanure bitewe n'ibyo yasaruye nk'ibishyimbo amashaza, ibigori ndetse n'ibindi.

Abahinzi bagomba kwita ku bihingwa byabo igihe cy'isarura, kugira ngo bibashe kugera ku isoko bimeze neza nk'ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bwimbuto ni bwiza cyane butuma abantu biteza imbere vuba, ndetse imbuto zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane. Ni byiza ko twibumbira mu guhinga imbuto.

Kwita ku musaruro wawe ni ingenzi cyane kuko bigufasha gusarura imyaka myiza ndetse yagera ku isoko bakayigura nta makemwa bafite bayishimiye cyane.

Ni byiza ko umuhinzi wese aho ava akagera agira imyaka ahunika mu gihe yasaruye, kuko imyaka yahunitse imufasha mu kwirinda ko inzara yazica umuryango we cyangwa se yazasonza cyane akabura ibyo kurya.

Ni ngombwa ko abahinzi bagomba kwita ku mbuto bagiye gutera, kuko igomba kuba ari indobanure, kugira ngo bazabone umusaruro uhagije ndetse basagurire n'amasoko.

Ni byiza ko abahinzi bibumbira mu mashyirahamwe, aho bazajya bakusanyiriza ibihingwa byabo, mu gihe bagize umusaruro uhagije bagasagurira amasoko.

Umuhinzi wese, ni byiza ko afata imbuto ye yasaruye, akabanza kuyitunganya neza, kugira ngo itazangirika igihe yayibitse.

Abahinzi b'imyaka, biba byiza iyo bakoreye hamwe bakibumbira mu mashyirahamwe birabafasha iyo bari mu matsinda, bituma bagera ku musaruro bifuza, ndetse bikabafasha gutera imbere vuba, na wa wundi ufite intege nke mu buhinzi bakamuzamura, nawe akabasha kwiteza imbere.

Itsinda ry'abantu ryahuriye ahantu hamwe, bakora imirimo y'ubuhinzi , bahinga ibibateza imbere: nk'imbuto, ibigori, ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko mu gihe imvura yabuze, umuhinzi wese agomba kuhira imyaka ye, akoresheje ipombo ndetse n'amazi menshi, kugira ngo ubutaka buze koroha.

Abahinzi b'imbuto bagomba kwita ku mbuto zabo, kuko amatunda aragora ndetse n'amaronji, n'izindi zitandukanye.

Umuhinzi ni byiza ko atekereza no guhinga imboga, urugero: inyanya, karoti, imboga rwatsi ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'ibigori bugomba kwitabwaho cyane kugeza byeze, kugira ngo umusaruro wiyongere.

Ni byiza ko twita ku bihingwa byacu kugira ngo byerere rimwe, byere kwera imbura gihe, tukabyitaho tubifumbira neza, tukabitera imiti yabugenewe kugira bitazera nabi.

Ubuhinzi bw'imbuto ni bwiza cyane, kuko bufasha abaturage kugera ku ntego yabo, nk'abahinzi amapapayi, ibinyomoro ndetse n'ibindi.

Ni byiza guhinga igihingwa gakondo， nko guhinga ibihaza， amateke，ibijumba，bidufasha gukomeza gusigasira umuco wacu.

Aha ni ahantu hakorerwa ubuhinzi bw'imyembe, ubuhinzi bw'imbuto ni bwiza cyane kuko bituma twiteza imbere vuba kandi biratworohera kubukorera, bitadusabye amafumbire menshi cyangwa se imiti myinshi.

Abahinzi bahinga imbuto, bagomba kwita ku mbuto zabo, kugira ngo zizabahe umusaruro uhagije kandi utubutse.

Umuhinzi wese yishimira igihe cy'isarura cyane iyo ibyo yahinze byeze neza bikera bifite umusaruro uhagije, bimutera ishema akumva yishimiye kongera guhinga.

Inyamaswa ni ibiremwa, ndetse n'ibinyabuzima nk'ibindi, ni byiza ko uyibonye yayibungabunga, akayirinda ko hari icyayigirira nabi. Mpaka isubiye aho igomba kuba iri.

Ubuhinzi bw'imbuto ni ingenzi cyane kuri buri muntu wese, kuko bufite akamaro mu mubiri wacu ndetse butuma twiteza imbere vuba, ndetse bugatuma tugera ku nzozi zacu kandi byihuse.

Abahinzi b'imbuto bagomba guhinga imbuto zitandukanye z'amoko menshi, kuko zigira akamaro mu mubiri wacu, tugendeye nko k'urubuto rw'indimu, ni ingenzi ku mubiri wacu, rugabanya ibinure, ndetse rukavura n'izindi ndwara nyinshi mu mubiri.

Abahinzi batubura imbuto birabafasha cyane, kuko babonera abandi ingemwe, bityo bakabona imbuto yo guhinga bitabagoye, ndetse bagahinga n'imbuto zo kurya nk'ibinyomoro, amapapayi, amacunga n'ibindi.

Umuhinzi wese ni inshingano ye kwita ku gihingwa cye kugira ngo kizamuteze imbere cyongere umusaruro bityo ubuhinzi bwe bwaguke bubashe no kugera ku nzozi ze.

Ni byiza ko abahinzi bishyira hamwe bagakorera mu mashyirahamwe, kugira ngo na ba bandi badafite ubushobozi bazamurane.

Mu gihe abahinzi bakorera mu makoperative basaruye, ni byiza ko ibihingwa byabo babijyana ahabugenewe ndetse bakabifunga neza ku buryo bitakwangirika.

Abahinzi bagomba kwita ku buhinzi bwabo, cyane iyo bageze mu gihe cy'isarura. Bagomba gukurikirana umusaruro wabo kugira ngo bazabone uko basubizamo ibindi.

Uruhurirane rw'abantu bahuriye mu mirima y'ubuhinzi kugira ngo babashe gukorera hamwe umusaruro uziyongere, ndetse na ba bandi bafite intege nke babashe kubazamura na bo biteze imbere.

Igihingwa cy'ibigori kigomba kwitabwaho cyane, kuva kikimera kugeza igihe cyereye. Kugira ngo gitange umusaruro uhagije kandi basagurire n'amasoko.

Aho abacuruzi bateraniye batandika ibicuruzwa byabo harimo imyumbati, ibikombe, inkweto, amasahani, ibiyiko ndetse n'ibindi.

Amatsinda y'abantu bari gukorera hamwe. Ni byiza ko buri tsinda rikora ibintu byaryo ritagendeye ku bandi, buri wese akamenya ibye ndetse akamenya ibijyanye n'imbuto ye kugira ngo hatazamo amashyari.

Umuhinzi iyo asarura imyaka ye， agerageza gusarura iyeze kugira ngo na ya yindi irimo itarera neza mu gihe ari gucuruza ya yindi yasaruye，iba iri kwera mu gihe atarayibonera isoko rihagije.

Ni ibyiza kubungabunga ubutaka bwacu, dutera ibiti birwanya isuri ,kugira ngo igihe imvura yaguye ,bibirinde gutwarwa n'inkangu.

Uruhurirane rw'ibicuruzwa aho batanditse imyaka itandukanye nk'ibishyimbo, amashaza, impungure, ifu, amasaka, soya, amamera ndetse n'ibindi.

Abahinzi bahinga ibihingwa by'ibinyampeke ni byiza ko babihunika babitunganyije neza, ndetse bakabibika mu mifuka mizima kugira ngo bitangirika.

Ni ngombwa ko abahinzi bahinga ibihingwa by'ibinyampeke bagomba kubyitaho, by'umwihariko igihe habaye izuba, bakibuka kubyuhira amazi kugira ngo bituma, bizatange umusaruro uhagije.

Kwinaza umurama w'imbuto, bituma abahinzi bose babona ingemwe zo gutera, bakazibona mu buryo butabagoye buboroheye cyane.

Ni byiza ko abantu barya ibiryo byiganjemo ibinyampeke, harimo ingano, impungure, ndetse n'ibindi, kuko byongera intungamubiri, mu mubiri wacu.

Ubuhinzi bw'ibinyampeke ni bwiza cyane. Ibinyampeke bikungahaye ku ntungamubiri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi ku isoko usanga ari igihingwa gikunzwe, bityo kikaba cyatuma witeza imbere byihuse.

Abahinzi bahinga ibinyampeke ni ngombwa ko babyitaho cyane, kuko byangirika vuba. Bisabwa kwitabwaho by’umwihariko ubunyobwa, ibishyimbo, ndetse n’ibindi.

Ubuhinzi bwibinyampeke, butuma abahinzi biteza imbere, ndetse bakagera ku ntego za bo vuba, kandi bagasagurira n'amasoko.

Abahinzi b'ibihingwa by'ibinyampeke, bagomba kwita ku bihingwa byabo kuko iyo bititaweho birangirika, bikarumba bikagira umusaruro muke cyane, nk'amasaka ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko abahinzi bahinga imyaka bagomba kuyitaho, ndetse bakayishyira mu mifuka yabugenewe igihe cy'isarura, kugira ngo imodoka ibitwara ibone uko ibitwara mu gihe basaguriye amasoko.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza cyane, kubera ko bitadutwara ifumbire nyinshi cyangwa se imiti myinshi, ahubwo bisaba kubyitaho, ndetse bikatuviramo umusaruro utubutse.

Uruhurirane rw'abantu bari gutunganya umusaruro wabo. Ni byiza ko buri muhinzi wese yita ku musaruro we nk'ibishyimbo, ibirayi, ibigori, impungure ndetse n'ibindi.

Abahinzi basesa umurama w'imbuto, bagomba kwita ku ngemwe cyane, kugira ngo nibazitera ahandi zizabe zifite umutekano, ndetse ari nziza nta kibazo, nta burwayi zifite.

Abahinzi b'ibihingwa by'ibinyampeke bagomba kubyitaho, cyane iyo basaruye kuko bigomba kubikwa neza nta mwanda bifite, kugira ngo bitazangirika. Ibishyimbo, amashaza, impungure n'ibindi.

Ni byiza ko abahinzi bahinga ubuhinzi bw'ibinyamisogwe, bibanda kubikorera bakabizitirira, kugira ngo imishogi yaguye ishobora gukora hasi itaza kwangirika nko kubora.

Abahinzi bahinga ibihingwa bigiye bitandukanye, bifasha abaturage batabona uburyo bahingamo ibyo bihingwa, urugero : Ibishyimbo, amashaza, soya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo. Ni byiza ko umuhinzi igihe yabihinze agomba kubyitaho ndetse akabivomerera. Igihe imvura yabaye nyinshi ndetse n'igihe biri kuyanga akarinda ko inyoni zakwangiza uruyange.

Ni byiza ko umuhinzi iyo yahinze ibihingwa bye atagomba kubyangiza bikiri bito, nk'igihe yahinze ibishyimbo, si byiza ko akuramo imiteja bitarera.

Ubuhinzi bw'ibinyampeke bugomba kwitabwaho cyane, igihe buri mu gihe cy'isarura, kugira ngo umusaruro wabo bawubike neza, kandi mu mifuka itarangiritse.

Abahinzi birabafasha cyane, mu gihe cy'isarura iyo babumbiye hamwe umusaruro wabo, bakawujyana mu bigega byateganyijwe.

Ni byiza ko abahinzi b'imbuto y'ibinyamisogwe bagomba kwita ku bihingwa byabo, kuko iyo bifashwe nabi usanga bimerera imburagihe.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriranye bazanye imyaka ku isoko, ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibishyimbo, ibirayi, amashaza ndetse n'ibindi kugira ngo abatabifite babashe kubibonera hafi.

Gutoza abana kurya indyo yuzuye harimo amagi n'ibyo kurya bikungahaye ku ntungamubiri ni byiza cyane, kuko bituma umwana akura neza ndetse agakura afite igihagararo ndetse agakurana umuvumba.

Ni ngombwa ko aborozi bita ku matungo yabo kugira ngo azabashe kubaha umusaruro uhagije. Ndetse igihe babona amatungo yabo amaze igihe, bagomba kuzana umuganga wabihuguriwe akayasuzuma akareba ko nta kibazo afite.

Kugaburira amatungo yawe bifasha na rya tungo kubona icyo rigaburira abana baryo igihe ryabyaye. Cyangwa se nk'igihe ryabwaguye, urugero nk'ingurube igihe yabwaguye iba ikeneye kurya cyane, kugira ibone uko iza konsa abana ba yo.

Ni byiza ko ahantu hateranira amatungo menshi haba hari abaganga babihuguriwe. Ku buryo haba harimo itungo rifite ikibazo bakihutira kuriha umuti kugira ngo ritanduza andi matungo.

Aborozi bakwiye kwita korora amatungo ya kijyambere, kuko agira umukamo mwinshi ndetse akugeza ku iterambere vuba.

Ni ingirakamaro ko buri mworozi wese yumva ko mu gihe itungo rye ryarwaye cyangwa se rifite ikibazo, ahamagara umuvuzi wabigenewe veterineri, akaza kurisuzuma, akaba ari we ubasha kuribonera imiti.

Ubworozi ni ingirakamaro kuri buri mworozi wese woroye amatungo agiye atandukanye, urugero: ihene,, intama, inka ndetse n'andi matungo.

Ni byiza ko aborozi b'inkoko bagomba kwita ku nkoko zabo, kugira ngo zitarwara indwara bakazitera imiti ku gihe, bagashaka n'abaganga bazo bakareba ko ntayirwaye irimo bakazisuzuma.

Umworozi wese ni inshingano ze gufata itungo rye akarisuzumisha kwa Veterineri, kabone n'ubwo nta kibazo ryaba rifite, ariko ni byiza ko umuvuzi wabigenewe, arigeraho akareba ko nta ndwara rifite.

Umworozi si ngombwa ko yorora ahereye ku gishoro kinini, ahubwo n'igishoro gitoya gishobora kumuviramo iterambere, nk'igihe yoroye inkoko, intama ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko aborozi bita ku matungo yabo. Nk'inka ,intama ndetse n'andi .Bakayashakira umuganga, wo gusuzuma ko amatungo yabo ataba arwaye .Cyangwa se ko bayarinda kurwara indwara za hato na hato.

Ni byiza ko aborozi b'amatungo magufi bita ku musaruro wabo, nkaborora inkoko bakita ku magi, kugira ngo amagi atangirika bakayashyira ahabugenewe.

Kororera amatungo yawe ahabugenewe, nko kubaka ibiraro by'inka ndetse ukubaka inzu ziraramo amatungo magufi, ni byiza bituma umusaruro wiyongera.

Ni byiza ko twita ku matungo dufite tuyarinde kwicwa n'inzara, kuko iyo yishwe n'inzara ntacyo iryo tungo riba rikikumariye ,n'iyo urijyanye ku isoko baguha amafaranga y'intica ntikize.

Aborozi bose ni inshingano zabo kwita ku bworozi bwabo bukarara ahantu heza bakubakira amatungo yabo inzu zabugenewe, bituma umusaruro wiyongera ndetse bigatuma bagera ku iterambere byihuse.

Ni ngombwa ko aborozi bagomba kwita ku matungo yabo bayashakira abaganga babihuguriwe, kugira ngo bayasuzume barebe ko nta ndwara zifite, basanga hari izifite indwara bakazivura zitaranduza izindi.

Aborozi b'amatungo magufi, bakwiye kuyitaho bihagije bakayakorera neza, ku buryo aho arara aba nta mwanda uhari, ndetse bakayubakira amazu yabugenewe. Ihene inkoko, ndetse n'andi.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bwiza cyane, butuma umuntu wese abasha korora mu gishoro gito afite, ndetse bigafasha buri wese kwiteza imbere, nko korora ingurube, intama, ndetse n'andi matungo magufi.

Ni byiza ko umworozi wese afata itungo rye akarisuzumisha ndetse agahamagara ababishinzwe bagakingira itungo rye kugira ngo ritatakwa n'indwara atazi cyangwa se n'iyo ryaba rifite indwara bakayivura hakiri kare.

Ubworozi ni umushinga waguka byihuse, cyane cyane iyo woroye amatungo magufi kandi yunguka vuba, urugero ingurube, intama, amahene ndetse n'ibindi.

Uruhurirane rw’abantu baje bazanye amatungo yabo kuyasuzumisha, ngo barebe ko nta burwayi afite ndetse bayakingize, nk’inka ndetse n’andi matungo.

Ubworozi bw'amatungo ni ngombwa ko bwitabwaho cyane cyane k'inka iba ikeneye kugira ngo ibone umuganga wo kuyisuzuma ndetse no kuyitera inshinge bayirinda ko yarwara cyangwa bayivura indwara yaba ifite.

Inyoni ni inyamaswa nziza cyane iguruka ndetse ni inyamaswa ikundwa na ba mukerarugendo cyane, bityo igatuma igihugu cyinjiza amadovize ndetse kikagira na ba mukerarugendo benshi.

Inyamaswa zikundwa cyane na ba mukerarugendo, bigatuma ziteza imbere ubukungu bw'igihugu. Ndetse n'abaturage bakaboneraho kubona akazi k'inyamaswa. Ingagi ni imwe mu nyamaswa ikunzwe cyane mu Gihugu.

Inyamaswa n'ingirakamaro kuri buri muturage wese, ndetse n'igihugu, kuko zidufasha kubona bamukerarugendo.

Inyamaswa zikurura ba mukerarugendo, cyane inyamaswa ziba mu mashyamba, iyo ari inyamaswa zikurira mu biti, usanga bishimira kuzifotora igihe ziri hejuru mu giti.

Inyamaswa z'ibiguruka zishimisha umuntu wese uyibonye, kubera ko iba yifitemo ubwiza, cyane ko haba harimo amabara atandukanye, nk'inyoni, ndetse n'ibindi.

Inyamaswa ni nziza cyane, zituma abantu bazireba bishima, bityo zikazana ba mukerarugendo imbere mu gihugu, bigafasha abaturage kubona akazi ndetse n'igihugu kikinjiza imisoro.

Inyamaswa ni ikiremwa nk'ibindi, ni ikiremwa cyuje ubwuzu, ni ikiremwa gikurura ba mukerarugendo, ndetse kikongera amadevize mu gihugu, ndetse bityo ya madovize yaboneka bigatuma n'abaturage babona utuzi tugiye dutandukanye.

Hari inyamaswa nyinshi zitandukanye zigenda zikuruza inda. Na zo ni ibiremwa birakwiye ko na byo tubibungabunga, harimo inzoka ,urwumvu, ndetse n'izindi.

Ihene y'ishyamba n'ihene nziza cyane. Ihene ikurura ba mukerarugendo, ni ihene iteye amabengeza ku buryo buri muntu wese aba yishimiye kuyibona, bityo rero mureke tubungabunge ubuzima bw'inyamaswa, kugira ngo zibeho nazo zifite umutekano.

Inyamaswa ni ikiremwa nk'ibindi biremwa, bityo tubibungabunge ndetse aho uyibonye uyitangire amakuru kugira ngo bayisubize aho yagakwiye kuba iri.

Inyamaswa ziguruka nazo ni ibinyabuzima nk’ibindi ， na byo bikwiye kubungabungwa ndetse bikarindwa.

Inyamaswa z'ibiguruka ni nziza cyane, kuko usanga zisa neza, ziteye amabengeza ndetse zifite amabara y'urunyurane, cyane cyane nk'inyoni zibamo amoko menshi ku buryo iyo uyibonye ubona ishimishije.

Inyoni z'amoko menshi, biba bishimishije kubona inyoni zitandukanye, by'umwihariko kubona inyoni ifite isunzu, usanga abantu benshi bishimira kuzireba muri rusange, inyoni nazo ni ibidukije zishimisha buri muntu wese ndetse zikanezeza uyireba.

Ingagi ni inyamaswa nziza cyane iba muri Pariki y'Ibirunga, ikururira ba mukerarugendo kuzana amadovize ndetse ituma abantu babona akazi bajya kwereka ba mukerarugendo aho ziri, bakabatwaza ibikapu bityo n'abaturage bakabyungukiramo.

Inyoni ni inyamaswa iguruka nziza cyane ifite ubushobozi bwo gutera amagi ndetse ikanayarinda kugeza igihe amagi avuyemo abana.

Inyamaswa ni ikinyabuzima na cyo kigomba kwitabwaho, ndetse kikabaho neza kisanzuye ntawe ugihutaje.

Umuntu wese afite inshingano yo kwita ku binyabuzima ndetse no kwita ku nyamaswa izo arizo zose, aho zaba ziva zikagera.

Ishyamba ribamo ibintu byinshi，ndetse rifasha kugira ngo hagire inyamaswa zibona ubwugamo， zikubakamo inzu zibamo， harimo inyoni zigiye zitandukanye.

Inyamaswa ni ingirakamaro ku gihugu cyacu, kuko bidufasha kubona ba mukerarugendo, bityo imisoro ikiyongera, ndetse n'abaturage bakabona akazi bakiteza imbere.

Inyoni ni inyamaswa nziza cyane, kuko ikurura ba mukerarugendo, ndetse ikaryohera abayireba mu maso yabo, babona ishimishije cyane.

Aborozi ni byiza ko amatungo boroye bayororera ahantu habugenewe ndetse bakayabungabunga ku buryo niba harimo na ya matungo y'inkazi atakwangiza umwana urugero inzoka ,ingona ndetse n'ibindi.